Inzu yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kwita ku barwayi, aho harimo imiti ipfunyitse mu dupapuro tw'umutuku, hakaba hari n'ibyuma bibiri bya firigo byifashishwa mu kubika imiti.

Abantu bakora muri serivisi z'ubutabazi, abakorera umuryango mpuzamahanga uzwi croixrouge, abenshi muri bo bambaye bikwije umubiri wose, aho bambaye ibishashi by'umuhondo, abandi bakaba bafite ingobyi, bari kugenda batwararaho abantu bisa n'aho habaye impanuka.

Igikapu gitoya kiri mu ibara ry'umutuku kikaba gifunguye, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga harimo imakasi, ibipfuko, imiti yomora ndetse na kore.

Abagabo babiri bakora kwa muganga. Bose bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'umweru n'ikote. Bakaba bateruye igisanduku aho bari gutambuka imbere y'imodoka y'ivuriro rya Nyagatare.

Abakobwa babiri bambaye amajire y'icyatsi ariho ikimenyetso cyo guteranya ndetse n'umugabo wambaye ijire y'umuhondo yanditseho ngo humura nturi wenyine. Bakaba bateruye umuntu ugize ikibazo cyo guhumeka nabi bamujyanye kwa muganga.

Abagabo batatu umwe yambaye akajiri gatukura, abandi bakaba bambaye imipira itukura, bari gukata urwondo rwo kubumba amatafari, aho imbere yabo hari abantu babiri bazanye amajerekani atatu baje kuvoma amazi gukata urwo rwondo.

Abantu benshi cyane bahuriye mu cyumba k'ibiganiro, buri wese yitwaje ikaye n'ikaramu aho ari kwandika amagambo y'ingenzi yavugiwe muri iyi nama kugira ngo azayakoreshe ndetse azayasangize n'abandi mu gihe cy'ahazaza.

Umukobwa wambaye ijire y'umuhondo. Akaba akorera ikigo cy'itumanaho cya MTN,aho ari kubikurira umugore amafaranga kuri telefone ye kugira ngo age kugura imvaruganda.

Abagabo babiri bari kwifotoza. Bose bambaye amashati ndetse inkweto zifunze. Umwe akaba yambaye ikoboyi undi yambayete itise. Aho bahagaze imbere y'imbagukiragutabara y'umweru. Bafashe agapapuro basa n'aho bagiranye amasezerano.

Abantu benshi cyane babiri barapfukamye, umwe yambaye esarobeti y'umweru mu gihe undi ntayo yambaye bari kuzinga ikote mu gihe abandi bahagaze babarebera.

Abantu batanu ni abagabo bane n'umugore umwe, bakaba bari guhinga umurima kugira ngo babashe guteramo ibihingwa bitandukanye, bizatuma babona ibyo kurya ndetse n'amafaranga muri rusange.

Abagabo babiri b'abaganga bambaye amataburiya y'umweru, bakaba bahagaze ahakirirwa aba barwayi baje kwivuza bwa mbere bakihagera, hari abagabo batatu bari gusobanurirwa n'abaganga uburyo sevisi za hano zitangwa.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora kwa muganga, bari kwifotoza, bari kwifotoreza inyuma y'iyi nzu yanditseho ngo Inzu mberabyombi, akaba ari inzu isanzwe iberamo inama aho ari igorofa yubakishije amatafari ya ruriba, imbere y'aba bantu hari umucaca ndetse n'umukindo ukiri muto.

Abantu barindwi, barimo bane bambaye amajire, ndetse bane bambaye amakasike, mu gihe abandi batatu ntayo bambaye. Bakaba bari kwifotoza imbere y'inzu y'ibitabo, inzu ikaba yubakishije amatafari ahiye.

Abaganga babiri umwe yambaye ishati y'umweru, undi akaba yambaye ishati y'ubururu, bari mu bitaro, inyuma yabo hari akabati kanini cyane karimo ibikoresho bitandukanye bifashisha, umwe muri bo akaba afite ikayi n'ikaramu ari kwandika.

Umugore w'umuganga yambaye agapfukamunwa. Yambaye itaburiya y'umweru n'ijipo y'ubururu akaba ari mu bitaro aho akorera. Atanga serivisi zitandukanye, akaba afite n'ibikoresho bitandukanye bimuri impande ari biteretse ku meza, ndetse n'ibindi biri hasi.

Abantu baturutse impande zitandukanye bakaba baje kwa muganga. Uyu ni umunsi mukuru, aho ingabo z'igihugu ziyemeje gutanga ubufasha ku buvuzi butandukanye, ndetse bakanagira inama abarwayi ku buryo bakwiye kwitwara.

Umugore ukora mu bitaro, akaba ari umuganga, ari kuvoma umuti mu ipombo, aho ari kuwukora mu gacupa kamanitse hejuru kugira ngo ajye kuwutera umurwayi.

Iyi ni inyubako y'ibitaro ikaba irimo ibyuma bitandukanye byifashishwa na muganga, akenshi na kenshi bikaba bicomekwa ku muriro kugira ngo bibashe gukora neza yaba basuzuma abarwayi cyangwa se bari kubavura.

Abantu benshi cyane, biganje mu rubyirukoba, bakora kwa muganga, bari kwifotoreza impande y'inzu y'igorofa yubakishije amatafari ya rureba, ikaba iteye irangi ry'umweru ku nkingi ndetse no k byuma, bitangira abagenzi.

Abagabo babiri bakora mu nzego z'ubuvuzi, bahagaze impande y'imbangukiragutabara ifite irangi ry'umweru aho iparitse mu mboga irimo amapave, bafite agapapuro bakaba bari kwifotoza bigaragara ko ari amasezerano bagiranye.

Abaganga bakorera kigo nderabuzima bakaba bari kwita ku barwayi aho baje mu cyumba cy'abarwayi kibariyemo abarwayi benshi. Hari umugabo umwe urwaye akabaye yicaye ku gitanda aho abaganga bari kumusomera mu ikayi uburyo akwiye kwitwararika kugira ngo akire vuba.

Abantu benshi cyane bateraniye ku bitaro, bakaba bahagaze, abandi bicaye imbere yabo hari umugabo usa n'aho akora muri serivisi z'ubuvuzi, ari kubasobanurira serivisi zihatangirwa n'uburyo zitanga.

Abagabo batatu bari kwa muganga, umwe ni umuganga yambaye ishati y'abaganga ndetse abandi babiri bakaba ari abaturage, aho umwe ari umurwayi wicaye ku gitanda cy'abarwayi, bari bari kumuvuriraho.

Icyumba kimwe kwa muganga, kirimo ibitanda bibiri byose biryamyeho abarwayi hakaba harimo n'umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ikarita y'akazi mu ijosi, akaba ari gutegura imiti agiye kubatera kugira ngo babashe gukira indwara barwaye.

Abaturage batandukanye, biganjemo abagore, bamwe bakaba bafite n'abana. Baje kwa muganga aho bicaye ku ibaraza ry'ivuriro, mu ibaraza hakaba hateye irangi ry'umuhondo, hagati yabo hahagazemo umugabo usa n'aho nakora kwa muganga ,arikubabwira igihe baribuze kubahera serivisi.

Abantu benshi cyane bakora muri serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, bakaba bari kwa muganga bose bambaye amatabariya y'umweru, aho umwe bicaye, abandi baka bari mu nzu harimo amarido y'icyatsi, aho ibakingira kurebana n'abarwayi.

Ni kwa muganga hakaba hari ibitanda bitandukanye by'abarwayi kimwe muri byo kikaba kiryamyeho abarwayi, ibyo bitanda buri kimwe gifite inzitiramibu ikoranye umuti ifasha abarwayi kurwanya malariya.

Umugabo ukora muri laboratwari kwa muganga, yambaye agapfukamunwa ndetse yambaye itaburiya y'umweru, aho yicaye mu cyumba cye cya wenyine imbere ya mudasobwa yihuhu ku byo agenda akorara bya buri munsi.

Umugabo wambaye itabuya y'umweru, akaba akora kwa muganga, aho akora mu gupima ibizamini, afite imashini ya mikorosikope, aho ari gupima amaraso yafashe umurwayi kugira ngo arebe niba arimo indwara.

Umugabo ukora muri serivisi zo kwa muganga, yambaye uturindantoki, akaba yambaye n'ishati iriho ipensi, ari kuvura umurwayi, aho agiye kumufata amaraso, yamufashe urutoki ndetse afite na kuma akoresha amupfumura urutoki.

Umuganga w'umugore yambaye y'umweru, uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, yiteze n'igitambaro akaba ari mu nzu ifatirwamo ibizamini kwa muganga, aho ari gukoresha mudasobwa ye apima ibizamini bafashe abarwayi.

Abagore babiri bakora kwa muganga, ariko bakaba bakora mu isuzumiro ahafatirwa ibizamini ndetse bikanasuzumwa, bari gusuzuma ibizamini bafashe umurwayi kugira ngo bajye kumubwira indwara arwaye.

Umugabo ukora muri serivisi zitandukanye kwa muganga ariko akaba akora muri laboratwari, yambaye uturindantoki ndetse n'impuzankano y'abaganga y'ibara ry'icyatsi akaba afite akuma gakoreshwa mu gupima ubwandu bwa sida.

Kwa muganga hari inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba irimo inzugi ziteye irange ry'umweru, ifite ibaraza rinini cyane ari naho abagore benshi bicaye bateruye abana aho baje kubakingiza urushinge rw'amezi icyenda.

Umugabo ukora muri laboratwari kwaganga, ari kurebera muri mikorosikopi, aho ari gupima amaraso y'umurwayi kugira ngo arebe ikibazo cy'uburwayi yaba afite.

Inzobere mu by'ubuvuzi, iri mu nzu yo kwa muganga ipimirwamowo ibizamini. yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, aho ifite igikoresho cyo gupima ibizamini byafashwe umurwayi.

Inzu ipimirwamo ibizamiini kwa muganga. Iteye irangi ry'umweru ,ikaba irimo ibikoresho bitandukanye by'umweru n'abyo by'ikoranabuhanga. Byose byifashishwa n'abaganga mu gupima ibizamini abarwayi.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora mu buvuzi, bakaba baje mu nzu y'ivuriro ahafatirwa ndetse hakanasuzumirwa ibizamini, hakaba hari inzobere iri kubasobanurira uburyo bikorwamo.

Umugabo w'umuganga, yambaye agapfukamunwa ndetse n'amadarubindiba, akaba yambaye itaburiya afite ikaramu mu ntoki, ari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga gifashishwa n'abaganga mu buryo bwo gupima ibipimo ndetse imenyetso baba bafasha abarwayi.

Umugore ukora muri serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, yambaye agapfukamunwa amarinete, ndetse n'itaburiya y'umweru, akaba ari koza imiti itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho ari bwifashishe avura abantu.

Abantu benshi cyane biganjemo abagore bafite abana ndetse n'abagabo bake, bari mu gisharagati kinini cyane cy'umweru aho baje kumva impanuro z'abaganga, babagira inama z'uburyo bagomba kwitwara ndetse no gufata abana babo kugira ngo bakure neza.

Abayobozi batandukanye ndetse n'abaganga bita ku babyeyi bageze igihe cyo kubyara bakaba baje mu mudugudu, aho baganiriza abatuye muri uyu mudugudu uburyo bwiza bwo kuboneza urubyaro, imbere yabo hari n'umusore wambaye ijire, akaba ari we ufashe ijambo muri aka kanya.

Impunzu itangirwamo serivisi zitandukanye by'umwihariko izitangwa zihabwa abagore batwite ndetse n'bana bakiri bato, harimo umuganga w'umugore witeze igitambaro cy'umweru aho ari kwita ku mwana muto uryamye ku gitanda cy'abarwayi.

Abantu batatu bakaba ari abagabo ari na bo bashyitsi b'imena baje mu gikorwa ku munsi mwiza wo gutaha ibitaro bizajya bivurirwamo abagore batwite ndetse n'abana bakiri bato, bakaba babitashye ku mugaragaro kuko bamaze gutanyura akagozi kaba kafunze amarembo, inyuma y'aho hari abantu benshi cyane ubona bishimiye iki gikorwa.

Abagore babiri bakaba ari inzobere mu bijyanye no guteka indyo yuzuye, bateretse ibyoryo ku mashiga, aho biri mu isafuriya isa neza cyane bashizemo ibiryo byose birimo imboga ndetse n'ibikomoka ku nyama.

Abana batoya biga amashuri y'inshuke bakaba bambaye impuzankano aho bicaye hasi ku mukeka, buri wese afite icyansi ari kunyweramo amata urabona barishimye hirya ha akaba hari n'umugabo urikugaburira amata.

Abagore bo mu mudugudu bafite abana bakiri bato, bakaba bahuriye ku gikoni cy'umudugudu, aho baje gutegurira amafunguro abana babo, indyo yuzuye agizwe n'imboga ndetse n'imbuto kuko hari inanasi, hakaba hari: karoti, imboga, inyanya ndetse n'ibitoki.

Abantu benshi cyane biganjemo abagore bahuriye ku mudugudu aho bicaye bakaba bakiriye umuyobozi mukuru ni umugore wambaye agapira k'icyatsi ndetse n'isaha, afite urupapuro mu ntoki ndetse afite na mikoro aho ari kubasobanurira uburyo bwiza bwo kwita ku mugore utwite ndetse n'umwana wavutse.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu wanditseho amagambo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu mpine ndeste hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda, ahagaze imbere y'imbaga, aho arikogira muri mikoro ababwira uburyo bwo kwita abagore batwite ndetse n'uburyo bwo kubyaza abagore batwite.

Igipapuro kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi n'umweru, cyanditseho ngo kwirinda no kwivuza malariya ku mubyeyi n'utwite n'uwonsa, hakaba hariho igishushanyo cy'umubyeyi uryamye ku gitanda gikikijwe n'inzitiramibu ikoranye umuti, hakaba hari n'amagambo atandukanye akangurira abantu kuryama mu nzitiramubu.

Abagore baturutse impande n'impande, baje ku bitaro buri mugore ateruye mwana we, abana babo baracyari bato, bisa naho baje kubakigiza urushinge rw'amezi icyenda.

Umugore mukuru yicaye hasi ku mukeka aho yicaranye n'abana bato, bisa naho ari mu rugo mbonezamikurire, aho ari kwigisha abana bato gusoma ndetse no kwandika.

Abagabo bakiri bato, bose ni abirabura, bariyogoshesheje, bakaba bameze nk'abafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, bose bari kugenda mu nzira, ari benshi cyane, aho bafite udupapuro dushushanyijeho umwana wigunze.

Abantu babiri bakaba ari inararibonye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Bicaye mu nzu umwe afite mudasobwa, akaba yatunze igikoresho cya projegiteri imbere aho bari gusomera, handitsemo ngo amahugurwa ya wellnes warriors.

Abantu benshi cyane ni abarwayi baka baje kwa muganga, bose bambaye udupfukamunwa ndetse banahanye intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo batanduzan virus ya corona.

Abantu benshi cyane biganjemo abari mu iz'abukuru. Bicaye mu nzu, aho bicaye intebe bazitondetse zirebana. Imbere yabo hakaba hahagaze umupolisi, urikubigisha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore uhagaze imbere ya rubanda, yambaye ishati y'umweru, akaba afite mikoro aho ari ku umunsi mukuru bashaka gushyira ku mugaragaro, igitabo cyakozwe n'umuryango isange one stop center.

Udupaki tubiri turi mu ibara ry'umweru hakaba hariho andi mabara y'ubururu n'icyatsi ku ruhande, aho ashushanyijeho intama. Ku rundi ruhande hari utundi dukarito turimo amabara atandukanye ariko twose, tukaba tubikwamo imiti y'amatungo.

Inyubako nziza cyane icururizwamo imiti, iteye irangi ry'umuhondo, ikaba iteye n'irangi ry'umweru ahagana hejuru, iriho igipapuro kinini cyane kigaragaza izina ry'iyo nyubako ko ari inzu icururizwamo imiti yitwa amahirwe mu ndimi z'amahanga.

Umugabo wihangiye umurimo, akaba acuruza imiti mu giturage, aho afite etajeri irimo imiti itandukanye, yaba isukika iri mu ducupa, utudomora ndetse n'ibitandukanye.

Uducupa tw'ibirahuri tukaba dupfundikishije imipfundikizo y'umweru ndetse n'ubururu, tukaba tuzengurutswe n'igipapuro cy'umweru kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, akaba ari uducupa turimo umuti w'urukingo rw'indwara y'ubushita bw'inkende.

Mu nzu nini cyane y'akataraboneka, icurizwamo imiti itandukanye, harimo imiti, amacupa y'umweru arimo ibikarito by'umweru bifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibindi bitandukanye yose yifashishwa mu kuvura abantu.

Etajeri nziza cyane y'umweru, irimo imiti itandukanye, akaba ari mu nzu icururizwamo imiti. Iyo miti iri mu dukarito tw'umuhondo, utw'umweru, utw'ubururu, umutuku ndetse n'andi mabara atandukanye.

Inyubako nziza cyane iriho imiryango itatu, iyi nzu ikaba iteye irange ry'umweru, iriho igipapuro hejuru kigaragaza ibicururizwa aho ngaho ko hari imiti itandukanye.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko bahuriye hamwe, aho ubona bishimye cyane imbere yabo hakaba hari abayobozi babiri bakaba bari kubakangurira gukoresha agakingirizo mu gihe cyose bakora imibonano mpuzabitsina.

Abantu benshi cyane bari mu bitaro. Harimo abapolisi babiri, umugore umwe n'umugabo umwe. Abandiba ari abakora kwa muganga, aho bari gutembereza aba bandi banabasobanurira uburyo ibikoresho byose bihari bikoreshwa.

Bateraniye hamwe mu nzu, aho bagiye bicara mu matsinda, baganira ku buryo bwiza bwo kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo bibungabungire ubuzima, ndetse biyongerere n'ikizere cy'ejo haazaza.

Igipapuro kinini cyane, gishushanyijeho umugore n'umugabo, umugabo afite isuka mu ntoki ndetse na mufuka ku rutugu, aho yambaye ipantaro yazinze ukuguru kumwe, mu gihe umugore akinyeye igitenge ndetse inyuma ye hakaba hari n'andi mashusho y'umugore n'umugabo bafite abana batatu.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora mu bintu byo gutera imiti mu mazu mu buryo bwo kurwanya malariya, barahagaze bakaba bari guhabwa amabwiriza n'abayobozi babo harimo n'abapolisi babiri kugira ngo babashe gutera imiti yabo neza mu mazu y'abaturage.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, benshi muri bo bambaye amajire y'umtuku, aho bafite igipapuro kiriho amagambo atandukanye, ari mu rurimi rw'igifaransa.

Abasore babiri bambaye imyenda bakoresha imyitozo ngororamubiri irimo ibara ry'umuhondo, bakaba bafite igikarito kinini cyane cyanditseho ngo, ni uruhare rwa buri wese gukumira no kurwanya indwara zandurira mu mibonanompuzabitsina, inda ziterwa abangavu ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ikigo cy'ubuvuzi kirimo amazu menshi cyane yiganjemo ayubakishije amatafari ahiye ndetse akaba asakaje amabati y'ubururu, hari umuhanda munini werekezayo aho ko muhanda hateretse kandagira ukarabe.

Umubirizi utoshye cyane ufite amababi abyibushye ukaba ukiri mutoya kuko nturayanga, uyu akaba ari umubirizi ukorwamo imiti gakondo itandukanye by'umwihariko ivura indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero.

Umugore wambaye imyenda y'umweru akaba yiteye n'agasharupe k'umweru. Afite imarete mu ntoki, akaba yaje gusoroma umuravumba uri ku ruzitiro kugira ngo awurye yivure indwara.

Mu isoko rinini cyane, hacururizwa imiti itandukanye gakondo yaba iyomye ndetse n'itumye, ikaba itondetse mu mifuka, harimo ifite amabara y'umutuku, icyatsi ndetse n'inditandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Imiti gakondo itandukanye yarahamuwe barayanika, kuri ubu imaze kuma neza, bakaba bayizanye bari kuyisekura mu gasekuru gato kabugenewe kugira ngo babone uko bayikoresha bavura abantu.

Abaganga babiri ndetse n'abandi bajyanama b'ubuzima, bahagaze hamwe bari kwifotoza aho inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari mato ahiye, ndetse ikaba iteye irangi ry'umweru.

Inzu nzisa cyane, ni inzu itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuzima, ikaba teye irangi ry'ubururu, isakaje amabati atukura, ibaraza rinini cyane ryicayeho abantu, imbere hakaba hari imbuga ngariteyemo imikindo.

Abaganga batatu bicaye mu cyumba kimwe kwa muganga, bakaba bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amakarita y'akazi mu ijosi. Babiri bicaye begereye ameza mu gihe undi umwe ari ku ruhande, hakaba haje umugore ufite ibiryo mu isahane akaba abazaniye ngo barye.

Inyubako nziza cyane y'akataraboneka itangirwamo serivise z'ubuvuzi, iteye irange ry'ubururu, ikaba iriho amadirishya arimo ibirahuri bibonerana, ifite ibaraza rinini cyane ryicayeho abantu, mu gihe imbere ku mbuga hateretse intebe.

Udukarito dutandatu turasa n'icyatsi. Tukaba dufite ibara ry'umuhondo hasi no hejuru. Tukaba ari udukarito turimo imiti, yifashishwa mu kuvura amatungo cyane cyane inkoko.

Abagore bafite abana bakiri bato baje kwa muganga, bakaba bicaye ku ntebe hanze ku ibaraza ry'inzu yabaabaganga. Akaba ari inzu yubakishije amatafari ahiye y'impunyu.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi, iteye irangi ry'ubururu, ikaba ishushanyijeho umuryango w'umugore n'umugabo n'abana babiri, iyi nzu ifite ibaraza rinini cyane ari naryo abantu bicayeho bategereje serivisi.

Inyubako nziza cyane zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bwigenga, ziteye irangi ry'umuhondo, imbere hakaba hari igipangu giteye irangi ry'icyatsi gifite inzugi n'amadirisha ateye irangi ry'icyatsi, hakaba kuri iyo nzu hariho agapapuro kanditseho ngo ivuriro.

Abantu batandukanye baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, harimo abagore babiri bafite abana bakiri bato ndetse n'umugabo umwe ubona ko barwaye barembye cyane ariko ukaba abonye muganga bakira, aho bari kumuha ibyangombwa.

Mu nzu yo kwa muganga harimo ibitanda byinshi by'abarwayi hakaba harimo n'inzitiramubu zirinda abarwayi imibu itera malariya, harimo umugore umwe usa n'aho aho ariwe ugiye kuba aryamye muri cyo cyumba wenyine kuko nta wundi murwayi urimo.

Abantu bakora muri serivisi z'ubuzima biganjemo abajyanama b'ubuzima, bahuriye mu nzu aho bahuriye n'inararibonye, ikaba iri kubasobanurira uburyo bakwiye kuzajya bakoramo serivisi batanga mu buryo bwiza.